Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'abandi bantu benshi, bakaba bose bafite microphone mu ntoki. Bisa nk'a hari ikintu cy'ingenzi bari kubwira abantu babakurikiye, ndetse aho bahagaze handitseho ngo ''Nyagatare investment forum'' naho inyuma yabo, hari icyapa cya BRD gikangurira abantu gushora mu rwanda.

Abantu bicaye ahantu hasa nk'aho hari kubera inama, biragaragara ko bakurikiye umuntu uri imbere, uri kugira ikintu ababwira kuko aba babyeyi bose barishimye kandi bateze amatwi.

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko bari mu nama cyangwa se hari ikintu bari kuganiraho, hari abafite ikaramu barimo barandika, inyuma yabo hari icyapa kihamanitse, kiri mu ibara ry'ubururu ndetse cyandikishijweho amagambo y'umweru, ariho ngo bikorereye mu isibo.

Abantu bicaye ahantu mu mahema bisa nkaho hari inama yahabereye, baritonze bakurikiye umuntu uri imbere kugira ngo bumve icyo yabateguriye, muri abo bantu harimo umuntu w'umupolisi wambaye impuzankano y'Igihugu cy'u Rwanda, ndetse kuri iyo mpuzankano hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi ubona ko bicaye mu cyumba k'inama hakaba harimo bamwe bambaye imipira y'umweru iriho itarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, urabona ko bose bahugiye imbere bisa nkaho bakurikiye umuntu urimo aragerageza kubaha ikiganiro yabateguriye.

Ahantu hameze nko mu cyumba k'inama hakaba hari abantu bicaye imbere bisa nk'aho ari bo bayoboye inama, aho hari abandi baje bitabiriye iyo nama, inyuma yabo hakaba hari ikintu ku gikuta cyanditseho Repubulika y'u Rwanda ndetse rubyiruko menya amateka yawe.

Umugabo ubona ko akuze w'umusirikare wambaye impuzankano y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, akaba ahagurutse afite mikorofone mu ntoki ze, abandi baricaye bisa nk'aho hari ubutumwa arimo aratambutsa, imbere ku meza hateretse impapuro ndetse n'uducupa tw'amazi y'inyange.

Ni mu cyumba cy'inama hakaba hagaragaramo abantu bagiye batandukanye ubona ko bakeye. Imbere yabo ku meza hagiye hari uducupa duteretsemo amazi ndetse hari n'ufite imashini imbere ye, ikindi kandi bisa nkaho bano bantu bakurikiye umuntu uri imbere uri kugira icyo ababwira. Inyuma yabo haragaragara umuntu ufite kamera arimo arafotora.

Umugabo uhagaze ubona akeye, afite mikorofone mu ntoki ndetse yambaye isaha ku kuboko ke k'ibumoso, inyuma hari undi muntu uhari ndetse ku meza hariho telefoni nyinshi n'agacupa k'amaza, iruhande rw'uyu mugabo hari akapa kanditseho ibintu, uyu mugabo akaba ari meya w'Akarere ka Rwamagana.

Iki ni igikoresho cya kera mu muco Nyarwanda cyifashishwaga abantu barimo barenga urwagwa rwa rwa bitoki, hakaba hariho hejuru udutanda ndetse n'utwatsi bakoreshaga bakamura umutobe mu bitoki.

Umumama ufite umusatsi mwiza cyane ndetse akaba yikenyeye igitenge, apfukamye ku musambi aho ku musambi hariho urusyo ndetse n'ingasire, iruhande rwe hakaba hateretse akibo karimo utuntu agiye gusya.

Ahantu harunze imyambi igiye itandukanye, iyi myambi ikaba yarakoreshwaga kera mu muco gakondo Nyarwanda, mu gihe cy'ubwami aho wasangaga abasirikare barinda umwami bakoresha ino myambi.

Ahantu ubona ko hakeyeye, aho hari ibiti byinshi bimeze neza bihateye ndetse n'amapoto agiye atandukanye. Hakaba hari abakobwa bambaye neza imyenda yo kubyinana, harimo ufite microhone mu ntoki, ndetse hari n'abandi bafite ingoma n'imirishyo, abandi barimo bakoma amashyi. Uyu nguyu akaba ari umuconyarwanda.

Ni ahantu hameze nko muri sale, bisa nk'aho hari ikirori cyahabereye, hari abari beza babereye u Rwanda, ubona rwose barimo barabyina ibijyanye n'imbyino gakondo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umuntu w'umugabo wabayeho mu gihe cya kera cy'abami, akaba azwiho kuba yarogoshwaga inyogosho gakondo z'ibisunzu. Izi zikaba ari inyogosho zogoshwaga abantu ba kera cyane cyane mu gihe cy'abami.

Abakobwa bambaye imikenyero, hakaba harimo umwe ufite mikrofone bisa nkaho barimo bararirimba indirimbo gakondo nyarwanda kuko abandi na bo bari gukoma amashyi, hari ibiganza by'umuntu bigaragara ko arimo aravuza ingoma, imbere yabo haragaragara ko hubatswe igishararaga, inyuma yabo hari igiti ndetse hari n'imodoka ihahagaze.

Utu ni udukoresho twakoreshwaga kera mu muco Nyarwanda no mu bihe bya kera. Utu dukoresho tukaba twarabikwagamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'ibyo baturaga abageni ndetse n'ibindi.

Abakobwa babiri bakenyeye bakaba bahagaze imbere y'inzu, bigaragara ko yubakishije amatafari ahiye. Aba bakobwa bafite ibikoresho byifashishwa mu mbyino gakondo nyarwanda, aribyo byitwa amakondera. Birasa nk'aho bari mu kirori barimo barayavuza abandi bakabyina.

Ni ahantu ubona ko ari hasi hari ibyatsi, hakaba harambitseho ikintu cy'umwenda kuri icyo kintu cy'umwenda hejuru hakaba hariho imyambi ikoze neza cyane, iyi myambi ikaba ari imwe mu bintu biranga umuco nyarwanda wa kera kuko abantu barindaga abami bakoreshaga iyi myambi nk'intwaro ikomeye cyane.

Ibirango bibiri byegeranye, bikaba biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ibi bikaba ari ibirango bikoreshwa mu muco nyarwanda, uzwi nk'umuco gakondo w'Abanyarwanda.

Abakobwa bambaye imikenyero ubona bari ahantu bizihiwe bose bari gukoma amashyi, hari umwe ufite mikorofone mu biganza bye iruhande rwabo hakaba hari ingoma bisa nk'aho aba ngaba ari ababyinnyi barimo babyina imbyino gakondo, inyuma yabo hari imodoka ihaparitse.

Abahungu b'abasore biteye imyitero ubona ko barimo baraterura ikibindi gipfundikije urukoma aho bagiye kugitereka neza ku ngata, muri icyo kibindi hakaba hashinzemo imiheha ubu bukaba bwari uburyo bwiza bwakoreshwaga kera mu muco gakondo mu gihe habaga hari ibitaramo abantu bagiye kunywana

Ni abakobwa ubona bakeye cyane bose bikenyeye imikenyero ndetse urabona ko ari itorero, harimo umukobwa umwe ufite mikorofone abandi bari gukoma amashyi, iruhande rwabo hari n'ingoma za kinyarwanda, inyuma yabo hari imodoka n'amapoto y'amashanyarazi ahari ndetse biragaragara ko hari amahema yubatse aho bahagaze.

Ipironi riteretseho amabatiri agiye abika ndetse akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, hakaba hariho n'insinga nyinshi zitandukanye zijya mu byerekezo bitandukanye, mu rwego rwo gutanga amashanyarazi ahagije.

Abantu ba biri buriye ipiloni rirerire ry'amashanyarazi, bakaba basa nkaho'a barimo barakemura ikibazo cyaba cyabaye kuri iryo ploni ririho insinga nyinshi zijyana amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Amapironi y'ibyuma ariho insinga nyinshi zitandukanye z'amashanyarazi zohereza hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda umuriro w'amashanyarazi. Iki kikaba ari igikorwaremezo cyiza kigaragaza ko igihugu kiri gutera imbere.

Ipironi rirerire cyane ririho insinga nyinshi zigiye zitandukanye zijyana umuriro ahantu henshi hatandukanye hahagazeho abagabo babiri bisa nkaho hari ikibazo bari gutunganya cyari kiri kuri iryo pironi.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, hakaba hagaragarara umuhanda wa kaburimbo ndetse n'amapoto ariho insinga, hari ibiti byinshi bigaragara ndetse hari n'icyapa cya REG, cyanditseho ngo Nyagatare bulanshe.

Ifoto rinini cyane rikozwe mu cyuma aho hagiye hariho insinga nyinshi zitandukanye zijyana amashanyarazi hirya no hino, riteye ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye, hejuru hagaragara ikirere kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ahantu hameze nko muri sitasiyo y'umuriro w'amashanyarazi hakaba hari amapoto menshi cyane agiye afasheho insinga nyinshi zigiye zitandukanye zijyana umuriro hirya no hino mu gihugu.

Abagabo babiri buriye ipironi ririho insinga z'amashanyarazi, bakaba bicaye ku kantu kari mu ibara ry'umutuku. Aba bagabo bakaba bari hejuru kuri ibyo piloni ,aho barimo baragerageza gukemura ikibazo uyu muriro w'amashanyarazi wagize.

Ahantu hahinze ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hahinze urutoki. Ndetse haragaragara n'amabati y'inzu isa nkaho yubatse munsi y'urutoki. Hari n'imisozi myinshi igi itandukanye igaragara, ndetse haragaragara n'ikirere.

Ni kuri sitasiyo y'umuriro w'amashanyarazi aho iri mu nzu nziza yubakiye neza kugira ngo hirindwe kuba hari uwakangiza iyi sitasiyo y'umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu ubona ko hahurira insinga nyinshi, hakaba hari amaboko y'umuntu utagaragara isura, ku biganza bye yambaye uturindantoki, uyu muntu afite urutsinga arimo aracomeka, ni ahantu ubona hagaragara insinga nyinshi bisa nkaho ari mu ihuriro ryazo.

Ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi kuri buri rutsinga hakaba hagiye hariho n'agasanduku karwo, iruhande hakaba hari icyapa k'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda.

Ipironi ririho insinga nyinshi zigiye zitandukanye iri piironi rikaba rikoze mu cyuma, iruhande rwaryo hari ibiti byinshi bihari ndetse ubona ko ari ipironi rirerire cyane.

Ahantu hameze nko ku rugomero rw'amashanyarazi hakaba hari inzu hubatse iri mu ibara ry'umuhondo, hari amapiloni menshi agiye atandukanye ariho insinga zijyana umuriro hirya no hino mu gihugu.

Abantu benshi ubona ko bateraniye ku ipoto rikozwe mu giti barimo baragerageza kuribyutsa ngo barihagarike. Bari ahantu hari ibyatsi byinshi, hari abafite ibiti bari gukoresha by'ibyuma ndetse hari n'uwaziritseho umugozi. Hari abambaye ibikoresho byabugenewe.

Ni abafundi babiri ubona ko bambaye impuzankano zabo ndetse n'akarindamutwe, bari hejuru ku nyubako aho bari ku gikwa cyubatse neza bakaba barimo bubaka inzu ubona ko igezweho.

Ni icyanya cyahariwe ibikoresho by'amashanyarazi hakaba hari amapoto menshi akoze mu byuma, aya mapoto akaba ariho insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino hakaba hari ipoto iriho batiri yifashishwa na yo yohereza amashanyarazi hirya no hino.

Aha ni mu isoko, aho harimo abantu benshi bagiye batandukanye, bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari imifuka isa nk'aho harimo ibirayi, hari ibitunguru, hari udufuka twa kawunga n'umuceri ndetse hari inoryi, haka hakaba karoti n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ikibuga kirimo tapi ubona ko gitunganyijwe neza kikaba kizwi ku izina rya sitade, haragaragara izamu rimwe ndetse n'aho abantu bicara baje kureba umupira, ikindi kandi inyuma y'izamu hari aho abantu bakorera imyitozo ngororamubiri basiganwa.

Ni ahantutu ubona ko hari umuhanda wubatswe neza, utsindagiye ndetse uw'ibitaka muri uwo muhanda hakaba harimo ibimodoka bibiri bya rukururana, imbere y'ibyo bimodoka hari ikiraro cyubatse neza bisa nkaho icyo kiraro ariho imodoka zinyura.

Abantu bari imbere y'ikigo nderabuzima cya Nyamikamba, kiri mu ibara ry'ubururu, bakaba bari imbere yacyo, bisa nk'aho hari igikorwa runaka bari bamaze gukora, bakavuga ngo bafate ifoto y'urwibutso, imbere y'iki kigo nderabuzima.

Abantu bari mu muhanda barimo bagenda iruhande hicaye umuntu, muri abo bantu hakaba harimo abantu bambaye impuzankano y'abasirikare hejuru yabo hakaba hari icyapa cyanditseho Repubulika ya Uganda ndetse hakaba hari n'ikindi cyapa cyanditseho ngo: "Urugendo ruhire".

Inzu nziza isakarishije amabati y'umutuku ndetse isiziye irangi ry'umweru, hakaba munsi yayo hicaye abantu, kuri iyo nzu handitseho ko ari Urukiko rw'Ibanze rwa Nyagatare.

Inzu nini ubona ko yubatse neza, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri, hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, munsi yaho hasa nka hari moto ndetse hari n'ibiti by'imikindo bihari, hari na jalide nziza cyane.

Inzu yubatse mu buryo ubona bugezweho, ikaba isize amabara, umukara, umweru ndetse n'icyatsi, iyi akaba ari inzu itangirwamo serivisi za Leta iruhande, iruhande rwayo hari ikintu kimeze nk'umunara gihari ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bari kwifotoreza imbere y'inzu y'ikigo nderabuzima, aho harimo abantu b'abaganga bambaye amataburiya y'imyeru ndetse hakaba harimo n'umugore umwe w'umuzungu, bisa nk'aho hari ikintu runaka bari bamaze gukora hanyuma bakavuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso.

Intebe ubona ko ari intebe nziza cyane ziri ku murongo, ziri mu mabara y'ubururu ndetse hari izindi ziri mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi cyijimye, izi ntebe zikaba zikunze gushyirwa ahantu mu masitade hicarwaho mu gihe hagiye kuba umukino runaka.

Umubyeyi uhetse umwana ndetse afite undi mu kaboko ke k'indyo, bigaragara ko agiye ku kigo nderabuzima. Icyo kigo nderabuzima ni kimwe mu bikorwa remezo leta iba yarubakiye abaturage, mu bigaragara ni uko umwana umwe muri abangaba ashobora kuba arwaye iki kigo nderabuzima rero, gikikijwe n'ibiti ndetse n'indabyo.

Inzu yubatse neza mu buryo bugezweho ikaba isakaje amabati y'ubururu, iyi nzu ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuyobozi, aho imbere y'iyi nzu hari ikigega cy'umukara gihari, akayira kajyayo kakaba kari mu mapave ndetse iyi nzu ikaba iri hagati y'ibiti byinshi bitandukanye.

Ahantu hari igikorwa remezo cya leta hakaba hakorerwamo serivisi zigiye zitandukanye za leta, umuhanda ugana yo ni igitaka ndetse akaba ku muhanda hateye ibiti biriho amatara amurikira uwo muhanda.

Ni ikigonderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, hakaba hahagaze iruhande rwacyo umuntu wambaye impuzankano y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Iki kigonderabuzima hakaba handitseho ngo ''gira ubuzima.''

Ahantu heza cyane ubona ko hari inyubako zubatse ku ruzi kuri urwo ruzi hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye bitanga akayaga ku bantu bari aho ngaho hafi y'urwo ruzi, hejuru haragaragara ikirere kirimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ni ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, ku rukuta hakaba hariho antene ya Canar ndetse ruguru hakaba hari n'indi nzu nayo ikorerwamo iyo serivisi, imbere yabyo hakaba hari ubusitani bwiza cyane.

Ni muri sitade aho ubona ko hasashemo tapi nziza cyane, hakaba hagaragara amazamu yo muri icyo kibuga ndetse hari n'ahantu hubakiye abantu bicara baje kureba umupira, hari amapoto abiri ateyeho amatara yifashishwa amurikira icyo kibuga.

Inyubako ubona ko yubatse mu buryo bwiza, imbere yayo hakaba hicaye abadamu babiri, iyi nyubako biragaragara ko ari ibiro by'Umurenge wa Katabagemu bitanga serivisi ndetse bita no ku bibazo abaturage bagenda babazanira.

Inzu ubona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere, imbere ku muryango hakaba hari imodoka iriho umugabo bisa nk'aho hari ikintu ari kureba. Mu muryango w'iyo nzu hinjiyemo indi modoka ndetse ku nkingi hakaba hahagaze umusekerite. Iyo nzu ikaba ari ingoro y'ubutabera.

Sitade ubona ko yubatswe neza cyane ikaba isashemo tapi, hagaragara inyubako isakaye aho abantu bicara bari kureba umupira ndetse haragaragara amapoto abiri ariho amatara amurikira iyi sitade iyo bwije.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako ndetse aho hantu bari hakaba hari n'ibiti. Biragaragara ko hari igikorwa runaka bari barimo nyuma yuko bagisoje, bakavuga bati "Reka dufate ifoto y'urwibutso".

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bahagaze munsi y'ibiti, harimo abadaso ndetse n'abasirikare hakabamo n'abandi bambaye utujiri, biragaragara ko hari ikibazo runaka barimo barakemura cyangwa hari umuntu barimo baraburanisha.

Ahantu hari umumama wambaye imyenda y'imituku, inyuma ye hakaba hari undi umufatiye umutaka amutwikiriye, imbere yabo kandi hari undi wambaye umushanana w'umukara urimo aragenda, uyu mumama akaba ateruye indabyo bisa nkaho hari ahantu agiye kuzishyira wagira ngo ni mu gihe cyo kwibuka.

Inzu ubona ko ku bikuta byayo hariho amatafari ahiye, hagaragara abantu bicaye muri iyo nzu harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo umugabo w'umuzungu ndetse n'abandi bagore b'abazungu, imbere yabo hari ameza ariho uducupa twinshi tw'amazi ndetse hasi hari itapi y'ibyatsi ihashashe, bigaragara ko hari intama runaka bajemo.

Abantu benshi bari ahantu mu ihema hakaba harimo umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano z'Igihugu cy'u Rwanda ndetse kuri izo mpuzankano hakaba hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, bisa nk'aho bose bafi amabuji arimo araka hari igikorwa runaka bajemo.

Ahantu ubona ko hateraniye inama hahagaze umugabo wambaye neza munsi y'igiti, hari abandi baturage bamukikije basa nkaho baje kumva inama, inyuma hari amahema ahubatse hicayemo abandi bantu batandukanye.

Umugabo uhagaze wambaye ikote ndetse na karuvati akaba yambaye n'amarinete ahagaze ahantu ari kuvuga imbwirwaruhame aho hantu hakaba hari mokorofone, inyuma ye hari icyapa cyanditseho kwibuka.

Abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye, bakaba bahagaze munsi y'amahema, biragaragara ko hari umunsi ukomeye cyane bitabiriye, aho hari umuntu ufite ubumuga na we uri muri aba bantu, hakaba harimo n'umupolisi ndetse n'umusirikare, bisa nk'aho ari umunsi wo kwibuka.

Ahantu ubona ko hubatse igikorwa remezo cy'Igihugu cy'u Rwanda, imbere y'iyo nzu hakaba hari amahema ahubatse ndetse inyuma y'igipangu hari abantu bisa nk'aho bari gukora umuganda bakupakupa ibyatsi kugira ngo harusheho gusa neza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe imbere yabo hakaba hari abantu batatu bahagaze n'undi mugore umwe ubona ko akuze wambaye ikanzu idoze mu gitenge. Akaba afite mikorofone mu kabokoga ke k'iburyo aho ari kugira ikintu avuga cy'ingenzi abandi bakaba bamuteze amatwi, bisa nkaho hari urubanza barimo baraca.

Ni ku muhanda wa kaburimbo haragaragara akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hari icyapa kigaragaza umuntu urimo arambuka umuhanda, iki cyapa kikaba kiburira abatwara ibinyabiziga ko imbere gato hari aho abanyamaguru bambukira.

Ku muhanda wa kaburimbo bigaragara ko ari nijoro haragaragara icyapa cyanditseho inyuguti ya pa ndetse gishushanyijeho imodoka, iki cyapa kikaba kibwira abatwara ibinyabiziga ko hano hantu hemerewe guparikwa ikinyabiziga.

Ni umuhanda wa kaburimbo w'umukara, ubona ko ukeye cyane, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka iri kubisikana n'indi, ndetse inyuma yabyo hari moto, n'indi modoka iri kuvayo. Ku ruhande rw'abanyamaguru hari umunyonzi ufite igare, ndetse hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi ahari.

Ni mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, hakaba harimo umuntu ufite igare arimo aracunga. Kuri iryo gare ahetseho agafuka uwo muntu yambaye ikabutura, ndetse n'umupira w'umweru hagati mu muhanda harimo akarongo k'umweru kagabanya imihanda ibiri, iruhande rwe hari igipangu gihari.

Iyi ni ajase y'imodoka imwe mu modoka zitwara abagenzi mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka ibisobanuro ndetse ushaka no kuza gutega, ugana kuri uyu muryango bakagukatira itike, ukabasha kugera aho washakaga kujya mu buryo bukoroheye.

Mu muhanda w'umukara wa kaburimbo hakaba harimo imodoka y'umweru itwaye umuntu ndetse inyuma yayo hakaba hari umumotari uhetse umugenzi, hirya hari abandi bantu bari mu kayira k'abanyamaguru ndetse hari inzu nyinshi zigiye zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi, hari n'umutaka wa MTN ugaragara.

Aha ni muri gare ya Nyagatare, aho hahuriramo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abagenzi baze kubihasanga babitege, bibajyane mu nshe nyinshi z'Igihugu zigiye zitandukanye.

Abantu bisa nkaho bateraniye ahantu wagirango ngo baje mu nama biragaragara ko bari ahantu mu nzu nziza cyane ndetse bose urabona ko bateze amatwi bisa nkaho hari umuntu uri imbere uri kubabwira imbwirwaruhame nabo bamuteze amatwi.

Ni umugabo w'umupolisi akaba afite mikorofone mu ntoki ndetse yambaye impuzankano y'abapolisi b'u Rwanda, inyuma hari amahema ahubatse hari abantu benshi bicaye bisa nkaho uno mugabo hari imbwirwaruhame arimo arababwira, inyuma ye hari icyapa cyanditseho imbuto fondasheni.

Ni abantu bahagaze ahantu hameze nko mu kibuga bakaba bahagaze imbere y'amahema yubatse hakaba harimo umupolisi wambaye impuzankano y'igihugu cy'u Rwanda aho arimo aratambutsa ubutumwa, iruhande rwe hakaba hari abasore babiri bose bafite icyapa cyanditseho ngo Gerayo Amahoro.

Abantu benshi bateraniye ahantu, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bisa nk'aho hari igikorwa runaka cyari cyabaye bakaba bari bitabiriye iyo nama, hakaba hari umugabo w'umusore wambaye umupira uriho ishusho ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo batanu harimo n'umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare y'igihugu cy'u rwanda, aho bose bateruye ibintu bimeze nk'amabuye. Bisa nk'a hari ahantu babijyanye cyangwa se ari nk'umuganda bari barimo bakora. iruhande rwabo hari ibihingwa biri mu ibara ry'icyatsi bihateye.

Ahantu ubona ko hameze nko mu kibuga kuko harimo ibyatsi byiza hakaba hubatse amahema hari abantu bicaye mu mahema ndetse hakaba hari n'abandi bari ku ruhande rwa bafure bisa nk'aho hari inama runaka yahabereye kuko imbere y'amahema hari umugore uhagaze ubona ko yishimye cyane.

Ni abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bisa nkaho wagira ngo ni umuganda bari baje gukora, hakaba hari abantu b'abayobozi barimo barabaganiriza, babashimira ubwitabire bwabo bagaragaje, bari ahantu hari ibiti bimeze nk'iminyinya.

Abantu benshi batandukanye, ubona ko bose bahuriye mu gikorwa cyo gukora umuganda, muri abo bantu hakaba harimo umugabo w'umusirikare, wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda.

Umukobwa w'umupolisi, wambaye impuzankano zagenewe kwambarwa n'abapolisi. Yifashe ku itama ndetse imbere ye hakaba hari imashini ihateretse na telefoni ngendanwa. Iruhande kuri ayo meza hakaba hari n'ibindi bikoresho bihateretse.

Abantu benshi bagiye batandukanye aho bafite amasuka, barimo baracukura imyobo bisa nk'aho bari mu muganda bari gutera ibiti. Harimo umuntu umwe w'umusirikare uri guhinga, hakaba n'undi uri inyuma wifashe ku ngofero akaba yambaye impuzankano y'igihugu cy'u rwanda.

Abantu benshi ubona barundiwe ahantu hamwe bicaye mu kibuga hakaba hari umupolisi wambaye akajire k'abapolisi, bisa nkaho hari ikintu cy'ingenzi arimo arabwira bano baturage, inyuma hakaba hari inzu n'ibiti bihagaragara.

Abantu ubona bahagaze ahantu, muri uwo muhanda hakaba harimo amabuye, hari umupolisi wunamye, uteruye ibuye, uwo mupolisi yambaye imyenda y'impuzankano y'abapolisi b'u Rwanda, inyuma ye hagaragara umwana wambaye ibibodaboda.

Abantu bari ahantu hameze nko mu kibuga ariko kitarimo ibyatsi bakaba barimo barakina umupira w'amaguru, ikipe imwe yambaye imipira y'imituku indi yambaye ijezi zenda gusa ubururu, iruhande hari abafana babashagariye basa nk'aho barimo barabafana.

Abantu b'abakinnyi bari mu kibuga. Ubona ko gikoze neza cyane. Inyuma yabo birasa n'aho hari umuhanda w'ibitaka ndetse hanazitiye, inyuma hari ibiti bihari.

Ni abantu bari inyuma ya sitade mubona ko barimo barakora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari ikibuga cy'umupira kirimo tapi ndetse n'aho abasimbura bicara, hari amatara arimo aracana bigaragara ko bari gukora siporo nijoro.

Umukinnyi wambaye imyenda yenda gusa ubururu. Akaba ari mu kibuga kiza cya tapi kizitiye. Arimo arasunika umupira w'amaguru. Yambaye igitambaro cya gapiteni ku kaboko ke k'imoso. Inyuma ye haragaragara inzu iri mu ibara ry'umuhondo ifite igipangu cyubakishije amabuye.

Abagabo batatu bahagaze ahantu hameze nko mu kibuga cy'umupira, hakaba harimo umugabo umwe w'umusirikare, inyuma yabo hamwe hicara abakinnyi bari busimbure, hicayemo abandi bantu, ndetse hari n'undi muntu uhagaze, iruhande rwa kona ziteye ku murongo.

Abantu benshi batandukanye bari mu muhanda wa kaburimbo bisa nk'aho barimo barakora siporo, biragaragara ko bwije kuko amatara yo ku muhanda arimo araka. Aba bantu iruhande rwabo hakaba hari akazu ka sosiyete y'itumanaho emutiyeni, ndetse hari n'inyubako nyinshi zigerekeranyije zihari.

ikibuga cy'umupira w'amaguru kitarimo ibyatsi. Hakaba harimo amakipe abiri ahanganye. Inyuma hari abantu baje kureba umupira. Aho ikipe imwe yambaye imipira y'umutuku ndetse indi ikaba yambaye imipira yenda gusa ubururu ariko bwijimye.

Ni mu kibuga ubona ko gishashemo na tapi harimo amakipe ari gukiniramo, haragaragara umukinnyi umwe wambaye impuzankano y'umuhondo mugenzi we arimo aramugororera mu ivi ndetse hahagaze iruhande rwabo n'undi mukinnyi wambaye nimero icumi akaba ahagararanye n'umusifuzi, bari kureba uno mukinnyi uryamye hasi ikibazo yaba agize.

Sitade irimo amakipe abiri bisa nk'aho ahanganye, harimo ikipe imwe yambaye impuzankano y'umuhondo ndetse hakabamo n'indi kipe yambaye impuzankano y'umweru, biragaragara ko ari ikibuga cya tapi kandi kiza cyane, inyuma yaho hari amazu ahegereye.

Umugabo wicaye muri sitade iruhande hakaba hari akana bisa nkaho ari akana ke, mu biganza bye harimo terefone ngendanwa inyuma hari abandi bantu baje kureba umupira.

Ni umugabo ubona ko akuze wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari undi mugore bisa nk'aho bari gukora siporo mu kibuga gisamo tapi, inyuma yabo hakaba hari umusore wambaye jezi ndetse bisa nk'aho muri icyo kibuga hari harimo harakinirwamo umupira.

Abahungu bigaragara ko barimo barakina umupira w'amaguru. Aho bambaye imyenda yabugenewe ikinanwa imipira ndetse na godiyo. Hirya yabo hakaba hari umugabo uri gutambuka iruhande rwa moto ndetse hakaba hari n'undi wicaye hagati ya moto ebyiri.

Ni muri sitade ubona ko yubatse neza, hakaba hari aho abafana bicara bubakiye, hari ikipe iri mu myitozo ngororamubiri, bisa nk'aho mu kanya gato iri buhite ijya mu kibuga, gutangira gukina umukino.

Ahantu hameze nko muri sitade hakaba hari abantu benshi cyane bisa nk'aho hari mace bitabiriye, bari mu gice kimwe gisakaye aho ubona barimo barareba imbere yabo.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru kizwi nka tapi aho harimo abakobwa barimo barakina, ikipe imwe yambaye amajezi y'umutuku indi yambaye amajezi yenda gusa ubururu, biragaragara ko aya ari amakipe arimo ahanganye imwe ishaka intsinzi n'indi ishaka indi.

Ni ahantu hameze nko mu kibuga cy'umupira w'amaguru, gusa hakaba harimo ibyatsi byinshi, mubona ko bidakase, hakaba harimo abakinnyi bambaye impuzankano, aho barimo barakora imyitozo ngororamubiri, hirya hari abandi bantu bari kubareba n'amazu ndetse n'ibiti.

Umuhanda bigaragara ko ari umuhanda w'ahantu mu cyaro, ukaba ari umuhanda w'igitaka. Muri uwo muhanda hakaba harimo abantu barimo barawugendamo, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti bihateye, ndetse hari n'ibipangu by'amazu bihari bigiye bitandukanye.

Ahantu hari umuhanda wa kaburimbo iruhande hakaba hariho akayira k'abanyamaguru. Biragaragara ko ari nijoro hari ipoto ry'amashanyarazi rihari, ririho itara riri gucanira uno muhanda, imbere hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye.

Ni kumuhanda wa kaburimbo nijoro, aho hari amatara ari kumurika mu gahanda k'abanyamaguru, hari abantu barimo baragendamo. Ubona ko hari ahantu runaka bavuye. Bafite ibintu mu ntoki, inyuma yabo hari ibyapa birimo birakaho amatara.

Akayira k'ibitaka kari hagati y'amazu, hakaba harimo umumotari wambaye kasike, ndetse n'umupira w'umukara, imbere harimo umupira w'umweru. Muri ako kayira harimo ibyatsi birimo, ndetse hari n'ikintu kiri imbere kimeze nk'aho ari ikiraro bubakishije boloke sima.

Ni umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kunyuramo ikinyabiziga k'ikamyo gisa naho hari ibintu gihetse, iruhande rw'umuhanda hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi ndetse n'amatara kandi haragaragara n'ibiti bihari bigiye bitandukanye, hari n'imisozi ihagaragara.

Akayira ubona ko ari tumwe muri twa tuyira two mu cyaro, imbere yaho gatoya hari ahantu haparitse moto ndetse, kuri ako kayira hateye utwatsi ubona ko tumeze neza.

Ni umuhanda wa kaburimbo, hakaba hagaragarara ku ruhande rwawo akayira k'abanyamaguru ndetse muri ako kayira hakaba harimo umuntu urimo aratambuka, birasa nkaho uyu muhanda ugabanyijemo kabiri kuko hari umuhanda usa n'uri hejuru y'undi, ku ruhande rw'uyu muhanda hariho amapoto ariho amatara ndetse hari n'inzu zihagaragara.

Ni akayira nyabagendwa gatoya ubona ko ari ibitaka kakaba kari ahantu hagaragara nk'aho hari ibyatsi bihateye byinshi bigiye bitandukanye, iruhande rw'ako kayira hagaragara ishyamba ry'ibiti byinshi.

Ni umuhanda w'ibitaka bigaragara ko ari uwo mu cyaro, hakaba harimo umugabo urimo arawugendamo wambaye ishati y'umweru. Iruhande rw'uwo muhanda akaba hari utwatsi tuhateye ndetse haragaragara n'amazu agiye atandukanye.

Ni ahantu ku muhanda ku ruhande ubona ko hari amapave hari akayira k'abanyamaguru kubakishije amapave ndetse biragaragara ko hateye n'igiti cy'ipoto ry'amashanyarazi ariko kitagaragara neza.

Ahantu hagaragara icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse kiriho n'idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ibindi birangantego, hakaba hariho inyundo ishushanyijeho, hakaba handitseho amagambo agira ati "ingoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare".